Aha ngaha turimo turabona sale nini kandi yicayemo abantu bagiye batandukanye ariko yiganjemo ababyeyi bagiye bateruye abana, bakoze uruziga. Ni mu nyubako isa neza isize iba irangi ry'umweru hari umugabo uhahagazemo hagati wambaye itaburiya ndetse n'ipantaro ya kake n'inkweto z'umweru, bisa n'aho arimo arababwira imbwirwaruhame abagezaho ijambo runaka abagira inama.

Uyu mubyeyi ni umuganga nk'uko tubona yambaye imyenda ibigaragaza, itaburiya y'umweru ndetse n'gapfukamunwa n'amarineti, ndetse n'agatimba mu mutwe, arimo arakinisha akana asa nk'ureba uko kameze, kari ku bibero bya nyina wako kandi bigaragara ko ako kana kavutse vuba.

Ahangaha turimo turahabona icyumba kirekire, kirombereje, kirimo akantu kameze nk'igitanda, kandi harimo n'utundi tuntu tumeze nk'utumeza tudiye dutandukanye, gusa uko bigaragara ifite na parafo nziza ndetse hatewe n'irangi ry'umweru, bisa nk'aho ari ahantu bakorera imyitozo ngororamubiri.

Iyi nyubako nkuko muyibona, ni inyubako nziza kandi yubatse ahantu yihitaruye. Ikikijwe n'ubusitani, ndetse urabona ko ruguru yayo hari indi nyubako ndende iyisumba, hari n'ikintu kimeze nk'ikiraro gitoya kizihuza izi nyubako. Munsi y'ako kararo gato, harimo haranyuramo umuhanda. Bigaragara ko aha hantu ari nko mu ruganda, cyangwa hakorerwa ibindi bintu byihariye.

Abangabo ni abantu benshi bicaye urabona ko ari abakecuru n'abasaza bageze mu zabukuru, hari abo bahaye imipira y'imihondo ndetse n'indi mipira ijya gusana n'umweru ariko uteruye cyane, harimo ababyeyi bakenyeye ibitenge ndetse n'abagabo bambaye amapantaro y'imikara, bicaye ku ntebe zisa bose bahanze amaso imbere, bisa nkaho hari umuntu urimo urabagezaho imbwirwaruhame.

Iki ngiki ni icyapa kiri hejuru y'inyubako icuruzwamo ibikoresho bitandukanye, ndetse harimo nk'amavuta n'ibindi bitari kugaragara neza. Ariko uko bigaragara ameze nk'amavuta yifashishwa mu bintu by'ubuvuzi, kuko hejuru hari icyapa handitseho ngo Target pharmacy market. Bigaragare ko ari ahantu bacuruza imiti.

Aha ngaha turahabona icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Harimo ibirimo biraka muri taburo ndetse n'ibindi bimeze nka firigo. Aho bakonjesherezamo ibintu, bigaragara ko ari ahantu h'ingenzi hifashishwa mu bucuruzi cyangwa se kugira ngo babike ibintu mu buryo burambye, bitangirika.

Aha turahabona umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ishati y'amaboko maremare mo imbere. Ijya gusa n'ikigina ariko cyerurutse, n'agatimba mu mutwe, yambaye agapfukamunwa. Bisa nkaho ari umuganga, kuko imbere ye ku meza hari udukarito twinshi turimo imiti ndetse n'amacupa ari mu ibara rijya n'umukara apfundikishijwe udufuniko tw'umweru nayo arimo imiti tutabashije guhita tumenya.

Aha ngaha turahabona amacupa menshi arimo imiti, bigaragara ko ari imiti gakondo yatunganyijwe, hari amacupa afite imifuniko isa n'icyatsi, ndetse n'isa n'umweru, agiye atandukanyije amabara, hirya yaho hari abantu bicaye, bisa nk'aho aribo barimo barayitunganya, reka twivure dukomeze kugira ubuzima bwiza.